Agasimba ko mu bwoko bw'inkima kari ahantu mu ishyamba ariko ruzitiye n’ igipangu cy'amatafari ahiye, karimo karurira igiti ubona ko kanezerewe cyangwa se gashaka aho kajya gukura ibigatunga, dore ko mu biti haba harimo udusimba twinshi.